Hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ibinyabiziga, aho baguha ubwishingizi mu gihe ikinyabiziga cyawe gikoze impanuka ukabasha kwishyurwa ndetse mu gihe waba wanakomeretse ukabasha kuvurwa.

Hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga ubwishingizi bugiye butandukanye. Harimo: ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amazu ndetse n'ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo. Aho bagena amafaranga batanga, hanyuma wowe, mu gihe wagize ibyago cyangwa mu gihe wageze mu zabukuru, ayo mafaranga akazagufasha.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, aho kugira ngo biroroshye kurusha uko ubitekereza, rinda inzu yawe ibiza, aho wabahamagara kuri nomero: zeru, karindwi , umunani, umunnani mirongo itatu rimwe, tatu karindwi ,mirongo itanu na karindwi.

Icyapa cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi, kikaba ari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, kikaba ari ikigo gitanga ubwishingizi bu bujyanye n'ibyago, iki kikaba ari icyicaro gikuru aho gikorera, akaba ari inzu ya etage yubatse n'ibirahure ndetse ifite ubusitani imbere yaho.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga ubwishingizi butandukanye yaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo ubwishingizi bw'amazu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye naho wazigamira amashuri y'abana bawe.

Icyapa kigaragaza aho batangira ubwishingizi bugiye butandukanye yaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga l, ubwishingizi bw'abantu, ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'amatungo ndetse n'ubw'imirima.

Icyapa cyo ku muhanda cyaba icyapa cyamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bujyanye n'ibintu bitandukanye harimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu gihe umuntu ageze mu zabukuru, aho bakubwira ngo no mu gihe cy'izabukuru turakugoboka, aho hari amafaranga utangwa ku kwezi hanyuma wazagera mu zabukuru utakibasha gukora bakabasha kuguha inguzanyo.

Amabanki n'ibindi bigo by'imari iciriritse ndetse n'ibikomeye, bifasha abantu mu kubona inguzanyo, yaba iy'igihe gito cyangwa igihe kirekire, buri muturage agafa iyo nguzanyo akabasha kwiteza imbere.

Yashyizeho uburyo wabitsa ndetse ukanabikura amafaranga, ukoresheje telefone yawe, aho buri banki yagiye ishyiraho uburyo bugiye butandukanye, aho wabitsa amafaranga uri murugo iwawe, ku kazi, cyangwa se ukishyura ukoresheje telefone yawe, ukuye amafaranga kuri banki.

Amabanki menshi ndetse n'ibindi bigo bishinzwe kubika amafaranga y'abaturage ndetse n'ay'ibindi bigo byikorera, bigira uburyo bwinshi bugezweho aho bakoresha ikoranabuhanga, aho wabitsa ndetse ukanabikura amafaranga uri iwawe mu rugo.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye. Hakaba hamanitsemo ibitenge by'ubwoko bwinshi, hakaba hari ibitenge bimanitse hejuru, hakaba hari ibipanze hasi ndetse ukaba wabasha kwihitiramo igitenge icyo ari cyo cyose kikubereye akaba ari ibitenge by'abadamu.

Iduka ricuruza imyambaro igiye itandukanye hari imyambaro y'abadamu, imyambaro y'abakobwa, iy'abasore ndetse n'iy'abagabo, akaba ari imyambaro igezweho yaba imyenda yo hejuru ndetse n'ingofero wakifashisha ugiye ahantu hatandukanye.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore ndetse n'indi mitako igiye itandukanye, rikaba ari iduka ricuruza ibicuruzwa byinshi aho hamanitsemo imipira, amashati, amakanzu, imikandara ndetse n'ibindi bikoresho, bikaba bigaragara ko iyo myenda ndetse n'ibyo bicuruzwa birimo ari ibikoresho byo hambere mu gihugu cyacu.

Imodoka nini igurishwa, akaba ari imodoka yakozwe n'uruganda rwa Yundayi, akaba ari imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, inyuma yayo hakaba hateretse ameza ateretseho agapipiri k'amazi, ndetse n'izindi dokima zigiye zitandukanye.

Imodoka y'umukara akaba ari imodoka ikoreshwa, akaba ari imodoka ya kiya ikoresha uburyo bugezweho, akaba ari imodoka igurishwa miliyoni cumi na zirindwi, ahari imodoka y'umukara nziza itaguteza ibyago.

Ikigo gishinzwe kugurisha imodoka, kikaba ari ikigo cya Yundayi gikorera hano i Kigali mu Rwanda, kikaba gicuruza imodoka z'ubwoko bwinshi, yaba izitwara abantu muri rusange ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo.

Umugore wambaye agapira k'umutuku ufite imisatsi miremire wambaye n'amarinete, akaba ari gukoresha akamashini kabara amafaranga yifashisha mu kubara amafaranga bitamugoye kandi mu gihe gitoya.

Inote ebyiri z'igihumbi akaba ari amafaranga yifashishwa mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ariho inzu ndangamurage y'u Rwanda ndetse ku rundi ruhande hakaba hariho inyamaswa zo muri pariki y'ibirunga.

Amafaranga, akaba ari amafaranga akozwe mu cyuma abenshi bazi nk' igiceri, kikaba kiriho igishushanyo kiriho inyoni ndetse n'ibindi birango bigiye bitandukanye. Akaba ari amafaranga yifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye.

Imashini yifashishwa mu uburyo bwo kubara amafaranga akaba ari imashini bakoresha mu gihe babara amafaranga ushaka kubara amafaranga mu gihe gitoya yaba ari amafarangagera atandukanye yaba ari abanyamahanga cyangwa se amafaranga y'Amanyarwanda.

Umuntu ufite amafaranga y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, aho ari kuyashyira mu mashini, yifashishwa mu kubara amafaranga menshi. Aho afite inoti zigiye zitandukanye, zipanze ndetse n'izizinze yarangije kubara.

Iduka bacuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Imbere yaho hakaba hari ikibuga giparitsemo ibinyabiziga byinshi, ndetse n'umuntu uri kugenda muri icyo kibuga; akaba acuruza ibinyobwa bigiye bitandukanye: yaba amata, ndetse n'ibindi binyobwa, n'ibindi biribwa wakwifashisha uje kuruhukira aho hantu.

Iduka ricuruza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bitandukanye, harimo amata, icyayi ndetse n'ibindi mu biribwa, hakaba harimo capati, amandazi ndetse n'ibindi biribwa bigiye bitandukanye bifite intungamubiri.

Ubu ni uburyo bukoreshwa ku ma banke cyangwa se ibindi bigo bishinzwe ihererekanya ry'amafaranga. Aho bigaragaza uburyo amafaranga yakoreshejwe, yaba uwishyuye cyangwa uwishyuye umwirondoro we.

Hariho uburyo bwinshi wakwishyura cyangwa se wohereza amafaranga hirya no hino ukoresheje telefone ngendanwa cyangwa se mudasobwa yawe. Aho ujya kuri murandasi cyangwa se akaba hari imibare yabugenewe umuntu akanda akabasha kwishyura cyangwa se akabasha kuba yakohererereza amafaranga.

Ubu ni uburyo wagura amayinite hamwe n'umuyoboro waeyateri, aho ukanda akanyenyeri magana na ane mirongo itatu na gatandatu urwego hanyuma ugakurikiza amabwiriza umuyoboro MTN ukaba utanga serivisi zigiye zitandukanye kandi ukaba wasanga abakozi bayo hirya no hino mu gihugu hagiye hatandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cya Rwanda Revenue Authority, gishishikariza umucuruzi gutanga inyemezabwishyu mu gihe hari igicuruzwa agurishije, kikanashishikariza uguze kwaka inyemezabwishyu, mu gihe hari igicuruzwa aguze.

Baragaragaza agaciro k'amafaranga na buri gihugu, aho hariho ibihugu bigiye bitandukanye hariho, Amerika, Ubwongereza, Ubuyapani ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye.

Umuntu ufite amafaranga mu biganza akaba ari amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'ubuhinde, akaba ari amafaranga y'inote za magana atanu, ukaba wayifashishwa uhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, cyangwa se igihe ukeneye ivunjisha.

Amafaranga y'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo amafaranga akoreshwa mu bihugu byo hirya no hino mu gihugu, harimo inote ndetse hakaba harimo n'amafaranga y'ibiceri, harimo amafaranga yifashishwa mu gihugu cy'Amerika, abenshi bazi nk'amadolari.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Tanzaniya, aho wayajyana kugura ibicuruzwa bikeneye ibyo aribyo byose, ukabasha kuba wabibona cyangwa se ukayajyana ku bigo bishinzwe kuvunja amafaranga bakabasha kukuvunjira.

Amafaranga menshi akaba ari amafaranga wakwifashisha uhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hakaba hari umuntu uyafite mu ntoki. Hari amafaranga akoresheshwa mu gihugu cy'ubuhinde, aho wayazana no mu Rwanda bakabasha kukuvunjira bakaguha amafaranga y'amanyarwanda.

Amafaranga arambitse hasi akaba ari inoti zigiye zitandukanye zikoreshwa mu bihugu byo hanze y'u rwanda akaba ari inote zirambitse hasi z'ubwoko bwinshi harimo inote ya tanu, inote y'icumi, inote ya makumyabiri, inota ya mirongo itanu, inoti y'ijana ndetse n'inoti ya magana abiri.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'amafaranga aho bakora ivunjisha ry'amafaranga yaba ari amafaranga aturutse mu bindi bihugu byo hanze cyangwa se ukeneye andi mafaranga yo mu bihugu byo hanze ufite amafaranga yifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye.

Hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga serivisi zijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga, aho uzana amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, hanyuma wowe ukabasanga bakaguha andi mafaranga ukeneye ayo ariyo yose.

Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe ivunjisha ry'amafaranga cyangwa andi mafaranga akorerwa kuri murandasi, aho baguha amafaranga ayo ariyo yose wifuza yaba ari abanyarwanda cyangwa ayo mu bindi bihugu.

Igikoreramo ikigo cya Western Union gishinzwe ivunjisha ry'amafaranga ndetse kikaba gikora n'ibindi bikorwa bijyanye n'ihererekana ry'amafaranga, aho wohereza amafaranga uri mu Rwanda mu bihugu byo hanze y'u Rwanda cyangwa se ukakira andi mafaranga avuye mu bihugu byo hanze y'u Rwanda.

Mu Rwanda hari ibigo byinshi bishinzwe ivunjisha ry'amafaranga ndetse bikanatanga serivisi zindi zigiye zitandukanye harimo kohereza amafaranga yaba ku baturage bari imbere mu gihugu, yaba ku bari hanze y'igihugu ndetse no ku yandi mabanke agiye atandukanye.

Intebe nziza z'imisego zo mu nzu zikaba ari intebe wakwifashisha uri kuruhukiramo cyangwa se uri kuganira n'abashyitsi baje kugusura. Aho ziri mu nzu nziza iteye amarangi y'umweru ndetse yubakishijwe n'amakaro hasi.

Intebe zikoze mu misego ndetse n'ibitambaro bigiye bitandukanye, zikaba ari intebe wakwifashisha uri kuruhukiramo cyangwa se wakira abashyitsi baje kugusura, zikaba ari intebe zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, imbere yaho hakaba hateretse ameza.

Ibikoresho harimo intebe zo mu nzu ameza ndetse niyo wakwifashisha uri kurya. Akaba ari inzu nziza irimo amakaro ndetse iteye n'amarangi y'ubwoko butandukanye, harimo amarangi y'umweru.

Hariho ibigo byinshi bishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye harimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo, ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'ibihingwa ndetse n'ubwishingizi bw'amatungo.

Ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bw'ibintu bigiye bitandukanye, yaba ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo, ubwishingizi bwo kwivuza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hakaba harimo abakozi yaba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakorera icyo kigo gishinzwe gutanga ubwishingizi.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cya purayime incuwarenci, aho gitanga ubwishingizi bugiye butandukanye, harimo ubwishingizi ku buzima bw'abantu, ubwishingizi ku matungo, ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubw'amazu.

Inzu nziza ikoreramo ikigo ishinzwe gutanga ubwishingizi cya prime insurance , ikaba ifite ishami i Kigali i Nyamirambo, aho batanga ubwishingizi bugiye butandukanye, harimo ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi bw'amazu, ukaba wanakizigamira cyangwa ukazigamira umwana wawe, cyangwa umuryango wawe.

Inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho; ikaba ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, yaba ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'ibinyabiziga ndetse n'ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo.

Inzu ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cya Purayimu inshuwarensi, akaba iri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo. Aho batanga ubwishingizi bugiye butandukanye, ubwishingizi bw'abantu ku giti cyabo ndetse n'ubw'ibinyabiziga ndetse n'ibindi byinshi.

Ubu hari amabanki ndetse n'ibindi bigo wakaka inguzanyo hanyuma ukabasha kwiteza imbere yaba inguzanyo y'ubuhinzi, inguzanyo yo kubaka ndetse n'inguzanyo zindi zigiye zitandukanye.

Hari ibigo byinshi bishinzwe gutanga inguzanyo ndetse n'amabanki, yaba amato ndetse n'amakuru biha inguzanyo abaturage cyangwa se abandi bantu bibumbiye hamwe bakabasha kwiteza imbere, yaba inguzanyo y'ubuhinzi, inguzanyo y'ubworozi ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byateza imbere umuturage muri rusange.

Amabanki ndetse n'ibindi bigo by'imari, bitanga serivisi zigiye zitandukanye. Aho harimo nka serivisi z'inguzanyo, inguzanyo z'ubwubatsi, inguzanyo z'ubuhinzi, inguzanyo zo kwiteza imbere mu bindi bikorwa remezo byawe ukeneye.

Mu Rwanda hari amabanki ndetse n'ibindi bigo by'abikorera bishinzwe gutanga inguzanyo zigiye zitandukanye aho bitanga ingwate zinyuranye bitewe n'ubushobozi bwawe.. Aho harimo inzu, ubutaka, ibinyabiziga ndetse n'ibindi bifatwa nk'ingwate mu gihe watse inguzanyo.

Hari amabaki menshi ndetse n'ibindi bigo bitanga inguzanyo ku bantu ndetse n'ibindi bigo by'abantu benshi biteza imbere. Aho hashyizweho n'uburyo watsindira ibihembo mu gihe ukoresha iyo baki cyane cyangwa ukoresha serivise zijyanye no kwa inguzanyo.

Inyubako ndende ikoreramo ikigo gishinzwe gutanga inguzanyo akaba ari inyubako nziza aho umuturage yaza kwakiraka inguzanyo ndetse n'ibindi bigo by'abikorera cyangwa abantu bifatiye bifatanyije, bibumbiye hamwe.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imitako, ingoma ndetse n'ibindi, muri byo twavugamo nk'ibikoresho byifashishwaga mu muco wa kera wa kinyarwanda harimo n'ingoma ibyansi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ryiza rigezweho, ryubatswe mu buryo bugezweho. Rikaba ari isoko ryubatse ku gice giherereye ku muhanda, aho rifite amagorofa menshi, aho bakoramo ubucuruzi bugiye butandukanye. Ubucuruzi bw'ibiribwa, ubucuruzi bw'imyenda ndetse n'ubundi bucuruzi bugiye butandukanye ndetse n'ibindi bigo by'abikorera n'iby'amakampani agiye atandukanye.

Isoko rinini rya etaje rifite ibice bigiye bitandukanye, hakaba hakorerwamo ubucuruzi bwinshi bugiye butandukanye, harimo ubucuruzi bw'imbuto ubw'imboga ubw'imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, aho hari urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha ibyo bicuruzwa.

Isoko abantu bahiramo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo imyenda, inkweto ndetse n'indi myambaro yifashishwa mu buzima bwa buri munsi hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu yaba abagore cyangwa abagabo ndetse n'abana baje guhaha iyo myenda.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'abandi bantu bakora ubucuruzi bugiye butandukanye. Harimo imyambaro y'ubwoko bwinshi yaba iy'abagore, iy'abagabo ndetse n'iy'abana.

Ku masoko tuhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro ndetse n'ibinyobwa. Aho tuhasanga abaguzi ndetse n'abagurisha kuri aya masoko, nko muri iri soko harimo abaguzi benshi ndetse n'abacuruza, aho ku muryango w'isoko hateretse igisheke kirekire.

Umucuruzi w'ikigo k'igihugu cya MTN, aho imbere ye hateretse ibikoresho bya mudasobwa bigiye bitandukanye, harimo utumamashini twifashishwa mu gutanga amayinite, terefone ndetse na mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye nk'ibyapa bigaragaza ko ari umukozi w'ikigo k'igihugu cya MTN.

Umukozi w'ikigo k'igihugu, gishinzwe gukwirakwiza internete mu baturage cya MTN, aho batanga serivisi zigiye zitandukanye, kandi bakaba baherereye mu bice by'Igihugu byose by'u Rwanda, aho wabasanga, aho waba uherereye aho ariho hose.

Umuyoboro wa emutiyeni washyizeho uburyo bwinshi wakaka serivise zigiye zitandukanye aho waba uri hose. Aho muri buri gice cy'igihugu yagiye yegereza abaturage abakozi bayo batanga serivise z'umuyoboro wa emutiyeni.

Kuri murandasi hariho ibigo byinshi bishinzwe kugurisha ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho utanga imyirondoro yawe, amazina ndetse n'aho uciye n'ibicuruzwa ukeneye, bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo.

Haje uburyo bwinshi bwo guhaha ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho wahaha uri iwawe mu rugo, ukabasha kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye byaba ibibwa ibikoresho byo mu nzu mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho utanga umwirondoro wawe ndetse ukanishyura amafaranga akenewe hanyuma bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo.

Hari ibigo byinshi bikorera ubucuruzi bwabyo kuri murandasi aho uhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye aho utanga umwirondoro wawe amazina aho uherereye ndetse n'ikikuranga ugatanga n'ibicuruzwa ukeneye hanyuma ukabasha kwishyura bakabikugezaho iwawe mu rugo ukoresheje ikoranabuhanga.

Kuri murandasi cyangwa ku ikoranabuhanga hariho ibigo byinshi byagufasha kwiharira ibicuruzwa ukeneye utavuye mu rugo iwawe. Aho utanga imyirondoro yawe, amazina, ibicuruzwa ukeneye, ndetse n'aho utuye bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo nta kindi kiguzi.

Hari ibigo byinshi bikora ubucuruzi bwo kuri murandasi, aho utumiza ibicuruzwa ukeneye hanyuma wowe bakabasha kukugezaho mu rugo iwawe, twavugamo nk'ibiribwa ibinyobwa ndetse n'imbuto n'imboga.

Hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi. Aho watumizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hanyuma bakabikugezaho iwawe mu rugo. Aho wowe icyo utanga ni, umwirondoro wawe, aho uherereye, ibicuruzwa ukeneye, hanyuma bakabikugezaho iwawe mu gihe wishyuye.

Hari ibigo byinshi bikorera kuri murandasi bishinzwe kugeza aho abantu ibicuruzwa bagiye batumiza. Aho nk'iki ari ikigo cy'iposita gifite ibikoresho bigiye bitandukanye bigezaho abantu ibicuruzwa bagiye batumiza, twavugamo: imodokari nini, amamoto ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Kuri murandasi hariho amasoko menshi aho utumiza ibicuruzwa ukeneye ibyo aribyo byose bakabasha kubikugezaho iwawe mu rugo, aho kuri iyi ifoto hagaragaraho ibicuruzwa byo mu nzu ndetse n'ibindi bikoresho wakifashisha mu biro.

Inzu nziza akaba ari inzu y'amacumbi ikaba ifite intebe z'imisego, ameza ndetse n'aho barira, akaba ari inzu isize amarangi y'umweru ndetse ikaba ifite na parafo nziza cyane z'umweru, hakaba harimo n'amatara agera atandukanye y'ubwoko bwinshi.

Inzu igurishwa akaba ari inzu iherereye mu mugi wa Kigali Kabeza, ikaba ari inzu igurishwa amafaranga y'amadolari magana atanu na mirongo itanu, akaba arirenze irimo ibikoresho byo mu gikoni bigiye bigiye bitandukanye harimo firigo, ibikoresho byo gutekeraho ndetse n'ibindi bikoresho wakwifashisha uri mu gikoni.

Inzu nziza igurishwa ikaba ihagazemo umudamu, akaba ahagaze mu gice giherereye mu gikoni. Hakaba harimo ibice byinshi bigiye bitandukanye harimo igikoni cyiza, salo ndetse n'amatara meza. Iyo nzu ikaba igurishwa amadolari ibihumbi mirongo inani na bitatu.

Amazu akodeshwa, akaba ari amazu meza cyane. Akaba aherereyemo mujyi wa Kigali i Kanombe. Akaba ari amazu afite ibyumba bine byo kuraramo ndetse n’ibyumba by’ubwogero butatu. Akaba ari amazu asize amarangi y’umweru, afite amabati y’umukara, ibirahuri byiza. Afite na parikingi washyiramo imodoka yawe.

Inzu ikodeshwa, ikaba ari inzu ifite amabati y'umukara, ndetse yubatswe mu buryo bugezweho. Ifite ikibuga cyo guparikamo imodokari, ndetse n'ubusitani inyuma y'inzu, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko. Ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo, ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwogero. Akaba ari inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa ikaba iherereye mu mujyi wa kigali kibagabaga. Akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'icyumba kimwe cy'ubwogero. Akaba ari inzu yubakishije amakaro, inzugi z'ibyuma ndetse zirimo n'ibirahuri.

Inzu nziza igurishwa, akaba ari inzu yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri byo kuraramo ndetse n'ibyumba bibiri by'ububwogero, akaba ari inzu ifite n'ikibuga waparikamo ikinyabiziga cyawe.

Inzu ikodeshwa akaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite ikibuga cyo guparikamo ibinyabiziga byawe; ndetse yubatse neza cyane ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kibagabaga. Akaba ari inzu ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ibyumba bibiri by'ubwogero; akaba ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi.

Inzu nziza igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali Kimironko akaba ari inzu igeretse ifite ibirahure yometse amakaro inyuma iteye amarange akaba ari inzu ifite n'ikibuga waparikamo ibinyabiziga byawe.

Iduka ricuruza ibikoresho bya mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho wakifashisha bya elekitoronike, aho harimo imashini wakifashisha wogosha abantu, amatelefone, amabatiri, amatara, ndetse n'ibindi bikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga.

Iduka ricuruza ibijyanye n'imigati, hakaba hari imigati y'ubwoko bwinshi yaba iminini, imitoya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo n'icyo wanywesha iyo migati mu gihe uri kuyirya.

Ikarita zifashishwaga hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza, zikaba ari ikarita za mituweri, aho umuturage yabaga ayifite atabashaga kurembera mu rugo iwe. Leta y'u Rwanda yakanguriraga buri muturage gutanga amafaranga ya mituweri, gusa n'ubu ngubu hakaba hariho uburyo ndetse n'andi makarita ya mituweri.

Ibitaro, ibigo nderabuzima, ndetse n'ibindi bigo ni bimwe mu bitanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi; aho umuturage asabwa gutanga ubwishingizi bwo kwivuza hanyuma agahabwa serivisi izo ari zose akinnye zijyanye no kwivuza.

Ikarita yifashishwa ubwisungane mu kwivuza, aho leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage, gutanga ikarita z'ubwisungane mu kwivuza, mu gihe barwaye, ukabasha kuyifashisha wivuza, aho iyi karita iri mu ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize mu gihugu cyacu cya ejo heza, aho wakubwira ngo uko wakwishinganisha muri ejo heza ukoresheje telefone, aho bagufasha mu gihe cy'izabukuru ndetse ukaba wabasha no kuzigamira amashuri y'abana bawe.

Amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikigo cy'igihugu cya araesesibi, aho buri muturage ashishikarizwa gutanga ubwisungane mu kwivuza kugira ngo atazabasha kurebera iwe mu rugo cyangwa ku kazi.

Ikarita zifashishwa mu bwisungane mu kwivuza, akaba ari ikarita z'ikigo cya RSSB, aho buri muturage ashishikarizwa gutanga ubwisungane mu kwivuza, hanyuma bikazamufasha mu gihe yahuye n'uburwayi butunguranye.

Ku masoko tuhasanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa by'ubwoko bwinshi, aho tuhasanga ibinyobwa bisembuye, ibidasembuye, ibyengerwa hano mu gihugu cyacu, ibyengerwa hanze y'u Rwanda ndetse buri muturage akaba yabasha kwisanga ku isoko ku biciro bigiye bitandukanye, aho ibyo bicuruzwa biba binafunze mu bipimo bigiye bitandukanye.

Ku masoko hirya no hino tuhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, yaba ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo, yaba ibituruka hanze y'igihugu cyacu ndetse n'ibikorwa n'inganda z'aha iwacu mu Rwanda.

Ku masoko yo mu Rwanda, tuhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, yaba ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'imyambaro igiye itandukanye, aho tuhasanga urujya n'uruza rw'abantu, rwaje kwiharirara ibyo bicuruzwa, yaba abagabo, abagore, abana, ndetse n'abandi bantu baturutse hanze y'igihugu cyacu baba mu Rwanda, aho baza kwihahira ibyo bicuruzwa ku biciro bigiye bitandukanye.

Ku masoko agiye atandukanye tuhasanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye yaba ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho twakwifashisha mu ngo zacu, aho haba hari ibicuruzwa bikorerwa mu nganda, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikomoka ku matungo.

Isoko rinini cyane ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa mu biribwa hakaba harimo imbuto, ibitera imbaraga, ndetse n'ibindi bitandukanye rikaba ari isoko ryubakishije amakaro kandi ubona ko ari isoko rikeye cyane aho wasangamo ikintu icyo ari cyo cyose wifuza.

Isoko ryiza cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: ibikomoka ku matungo, ibikomoka ku buhinzi, ndetse n'ibikomoka mu nganda. Rikaba ari isoko ryubatse neza cyane ryubakishije amakaro akaba ari n'isoko rya etaje, ibicuruzwa bikaba biririmo mayitajeri aho buri gicuruzwa kijya kiri mu gace kako aho umukiriya yaza akabasha kukibona neza.

Isoko rinini cyane ricuruza ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'indi bikoresho bigiye bitandukanye, akaba ari isoko ririmo imitako myinshi kandi rikaba ricuruza ibikomoka ku matungo, ibikomoka ku buhinzi ndetse n'ibikorerwa mu nganda.

Ku masoko yo mu Rwanda tuhabona ibicuruzwa byinshi bitandukanye, yaba ibikomoka ku matungo, ibikomoka ku buhinzi, ndetse n'ibikorerwa mu nganda, aho dusanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigiye bitandukanye.